Abantu benshi bambaye neza, barasa neza, bambaye amakote, amakaruvati, imbere hari umugabo ukeye wambaye rinete, uri kwitegereza imbere, karuvati, arasa neza, arareba neza.

Abantu batatu bicaye ku meza amwe n'intebe zimwe, uwo hagati afite indangururamajwi yambaye umupira w'umukara yafashe ijambo, abandi bari hirya no hino bamukikije baramuteze amatwi bari kumvamva icyo ababwira.

Abantu benshi bahagaze bifotoza harimo abagabo, abagore bambaye imkenyero, ni barebare, ni beza, bambaye ibyiza baragaragara neza.

Iki cyumba bicayemo ni cyiza gifite amarido meza intebe nziza ameza meza, hateretseho amazi abantu barimo basa neza barakeye baratuje bari mu nama bari kumva ibyo bababwira hari abafite na mashini imbere yabo.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama bazengurutse, imbere yabo hari ameza hariho ibitabo, amazi, bose bari kureba i ruhande rumwe, bumva ibyo umuntu uhagaze ari kubabwira, bambaye neza, basa neza, barakeye.

Aba bantu ni beza, basa neza, bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari ameza, amazi yo kunywa, bari kwiga ku byabateranije n'ibyabazinduye kumenya, amazi barayanywa, ni meza, ni ingirakamaro mu mubiri w'abantu.

Abantu beza bakeye baricaye imbere yabo hari ameza ariho ibintu bitandukanye: ibirahure, ibyokunywa, ibikombe ni'impapuro bari kwandikaho bafite mashini harimo n'abazungu.

Abantu benshi bicaye, imbere yabo hari ameza ariho amazi yo kunywa, hari abantu bicaye imbere yabo umukobwa, umugabo arengeje akaguru ku kandi, yambaye ijiporugufi ya maguru ari kuboneka, yambaye ikote basa neza, barareba neza.

Ihema ryubatse iruhande rwo haruguru baharimbishije umutako ugizwe n'amabara atatu aranga aranga ibendera ry'igihugu cyacu abaturage benshi bicaye harimo uhagaze uri kubayobora afite mikoro ari kubabwira amabwiriza nukouko bagomba kwitwara.

Itsinda ry'abantu rivuye mu gikorwa kimwe bamwe baricaye abandi barahagaze abagabo abagore barasa neza bari kwifotoza kubera ko bagiye gutandukana bajye bahora bibukana ko bakoze igikorwa kimwe.

Abagore bakennye ikinyarwanda barasa neza bambaye amataratara, bambaye inigi amasaha bafite amaterefone mu ntoki bicaye ahantu heza baracyeye, baratuje cyane.

Inzu y'icyumba cy'inama, hateraniyemo abagore bambaye neza, basa neza, hejuru barimbishije amabara atatu atandukanye, y'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Inzu nini cyane ifite sale nini irimo intebe nyinshi abantu batandukanye, ameza manini n'imbere harimo mashine bari kukoreraho imirimo ni heza baratuje harimo abantu bakeye ni byiza.

Abantu basa neza batandukanye b'ingeri zose abagabo abagore bicaye umuzenguruko, iyo bicaye ntawujya inyuma y'undi, bararebana buri wese akamenya icyo undi ari gukora, bari kwandika imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umw.e

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, bafite impapuro bari kwandikaho ibyo bari kuvuga, bari kureba imbere, harimo umugore wambaye ikanzu y'umuhondo na ni sheni mu mu ijosi.

Abantu benshi bateraniye hamwe baricaye bambaye amakote amakaruvati bari kureba imbere bariyogoshesheje barakeye basa neza baratuje bari kwitegereza bakumva ibyo bari kubabwira .

Iteraniro ry'abantu benshi batandukanye, bicaye ku meza, bararebana, harimo abazungu, harimo abirabura, bambaye amakoti meza, harimo n'abadamu bambaye rineti, basokoje, bari kurebana, bari mu kuganira icyabazinduye.

Abantu bicaye mu cyumba cy'uruganiriro hagati y'intebe y'umuntu n'undi harimo ibinyobwa biteretse ku meza, harimo abagore bambaye neza abagabo bose bicaye barebana ku ruziga barimo baraganira barishimye baranezerewe.

Abantu benshi kandi beza bambaye imyenda ikeye, baranezerewe, barahagaze bicaye imbere yabo hari intebe n'ameza byiza, bahateretseho amazi bari kureba imbere bose, baranezerewe bifashe neza.

Mu cyumba k'inama harimo abantu b'ingeri zose zitandukanye, ni beza bambaye neza bari kureba neza, imbere yabo hari amazi hari amacupa, hari amaterefone hari ameza ariho igitambaro cy'umuhondo barareba neza.

Abantu bicaye hamwe ni beza, bambaye neza, abadamu barimo bambaye neza, imbere yabo hari ibikombe by'umweru amazi, utumiko two kuvugiramo, ni beza, bateye neza, hari ameza, bambaye neza.

Abakobwa benshi bari mu mahugurwa, bambaye imyenda isa, imbere yabo hari amazi ku meza, hari abafiteho ikindi kintu kitari amazi, ateye urutoki hejuru agiye kubaza ikibazo, undi ari kumureba wisukishije.

Abakozi bicaye mu cyumba cy'akazi imbere yabo hari machine bari gukoreraho, amazi ateretse imbere yabo hari za mikoro bagaragara nk'abanyamakuru bambaye neza, barasa neza, umugabo urimo yambaye ikote ryiza, arasa neza, aravuga neza, araseka neza.

Abantu benshi bicaye bambaye neza nkabazungu bafite imisatsi b'abashinwa abagore ,abagabo bari kureba imbere bose bameze neza baratuje .

Ihema ryubatse ryicayemo abantu benshi batandukanye, hari abari imbere, hari ameza bashyizeho igitambaro cy'ibara ry'umuhondo n'icyatsi kibisi n'ubururu, hejuru bahambishije amabara asa n'ibendera ry'u Rwanda.

Baje mu nama ari abantu benshi, ntago inama yari yatangira barategereje, imbere y'abo hari ameza hateretseho amazi, ariho igitambaro gifite amabara asa n'ay'idarapo ry'u Rwanda.

Abagabo babiri bicaye ahantu heza bambaye neza basa neza icyumba bicayemo kirakoze neza, imbere yabo hari ameza, hariho mashine, bafite n'amazi bari gukora imirimo yabo.

Iri tsinda ry'aba bantu basheshe akanguhe, barahagaze neza, baraseka, baranezerewe, barishimye, bari kwifotoreza ku mpamyabumenyi yabo bavanye mu mahugurwa, ni beza barakeye.

Imbere mu cyumba cy'iyi nzu hasa neza hicaye abantu bane, imbere yabo hari ameza n'igitambaro cy'umweru. babiri bo hagati bifashe ku munwa undi arahagaze, yambaye neza afite indangururamajwi yambaye lunette ari kubabwira nabo bamuteze amatwi.

Abantu benshi bari mu nama, bambaye neza, imbere yabo hari ameza bashyizemo amatasi y'icyayi, hateretse amacupa, bari kureba mu materefone abandi bari hirya bameze neza, basa neza, bagaragara neza.

Abantu benshi b'abagabo baricaye, bambaye neza, bafite ama karuvati, b'amakote inkweto nziza, amazi iruhande rwabo bakandagiye ahantu heza, bafite za mashini abandi bari kurebera kuri terefone, baratuje basa neza bararinganiye.

Umugabo uhagaze mu muryango hagati aregamiye yambaye ingofero, ishati y'amabara afite amaboko manini muremure areba neza, asa neza.

Umugabo wamamaza terefone yambaye umupira w'ubururu w'amaboko maremare arerekana ibya ari kwamamaza ari guseka n'inzobe arabyerekana abitungaho urutoki ni byiza gutunga telefone kuko utunze telefone nubwo ugera ku iterambere ryihuse.

Ibikorwaremezo mu muhanda w'abanyamaguru ndetse iruhande uriho ubusitani burimo ipoto riyishamikiyeho insinga zo mw' ibara ry'umukara zigena amashanyarazi ku baturiye iryo poto.

Ikirere cy'ubururu n'umweru, umunara muremure, amakureri atukura n'umweru paraburike yerekana ko aho ngaho hagomba gutunganyirizwa ibijyanye n'ikoranabuhanga byose.

Umukobwa wicaye ku ntebe imbere ye hari ameza ariho mashini iruhande hari ikirahure anywesha amazi, afite umusatsi mwinshi yambaye ishati y'umweru iciye amaboko ari gukora akazi ke ku ikoranabuhanga.

Abantu bane bahagaze bari kuri terefone, umukobwa wisukishije neza yambaye umupira w'umweru yambaye ipantaro y'umukara, uwambaye ingofero y'umuhondo n'ijiri y'umuhondo, umugabo wambaye agapfukamunwa undi ari kureba muri terefone bari gukoreramokazi kabo ni byiza cyane gukorera akazi kuri.

Abantu bahagaze bambaye imyenda y'ubururu ni roze, imbere yabo hari umunara muremure udufasha kugira ngo imirimo y'ikoranabuhanga igende neza, inzira za interineti zikore neza.

Amazu meza y'ubucuruzi, yubatse kinyamwuga, asize amarangi atandukanye, hejuru barubatse, bashyiraho ibaraza ririnda imvura kwinjira mu nzu.

Inzu itari kugaragara izengurutswe n'igikuta bubakishije amatafari babumbye mu isima, arakomeye iruhande hari igiti gishinze bashyizeho insinga zimanuka hirya iyo epfo iyo bari kujya gucanira abaturage.

Umuhanda, iruhande hari kugenda abagenzi babiri b'abagabo, haparitse moto munsi y'umutaka wa Emutiyeni, hicayeho umuntu, hari ibiti birebire by'imbuto ziribwa, icyapa cyamamaza, ni byiza, haragaragara, izuba riraharashe.

Idarapo ry'Igihugu cy' u Rwanda, umukindo, ipoto, undi mukindo uri hirya y'ipoto n'amazu ari hakurya meza cyane.

Umugabo wicaye mu gitaka bakuyeho bari kubaka, ari kugipakira mu mifuka akizengurutsa aho igitaka kindi kiri, kugira ngo imvura itazakimanura kikanduza umuhanda, kikanduza n'ibindi bikorwa by'amajyambere.

Ahubatse ihuriro ry'amashanyarazi ni heza, ni byiza ko iyo inzira zose zihurira ahangaha iyo hagize igira ikibazo bahita babona aho bagomba gukora ubutabazi kugira ngo iyo nzira itangiza igateza impanuka.

Igipangu kiriho senyege zizitira abantu, abagizi ba nabi kugira ngo baturira bakagwa imbere bakangiza, umunara iriho amansinga y'ikoranabuhanga kugira ngo ibikorwa by'amajyambere bigende neza n'iby'ikoranabuhanga, amatara amurikira abantu bose ndetse naho umwijima uri hakabona kubera urumuri, ni byiza cyane ni ibyo gushimwa.

Amapoto ariho amansinga menshi, amatara, inzu zigeretse, zubatse neza, ziteretse neza, ziri ahantu heza, zigaragara neza, ni nziza cyane, zifite ubwiza buhebuje.

Igiti gishinze, kiriho insinga nyinshi cyane, zigenda hirya no hino, zicanira abantu mu ngo zabo, umuriro ukora byinshi bitandukanye.

Inzira zo hagati mu baturage bashobora kuzigendamo cyane hari umugabo uri kugenda ni muremure yambaye ipantaro y'umukara arihuta cyane kimwe nuko yakwihuta ari mu muhanda wa kaburimbo.

Aha hantu ni heza, hashashe amabuye, ibi byuma tureba, ni mu ihuriro ry'inzira ry'umuriro wose ukoreshwa, iyo hari inzira igize ikibazo bihutira kuza gufungura aha ngaha bakareba ikibazo cyabaye n'inzira byaciyemo bagahita bagikemura.

Amazu atandukanye yo guturamo, iruhande hari igiti kiriho amasinga menshi, agenda acanira abaturage hirya no hino, inyuma hari igiti kinini, kinini cyane.

Umunara uriho insinga nyinshi zinyuranamo, zidufasha mu ikoranabuhanga rya buri munsi, dukoresha interinete, n'ibindi bikorwa n'amashanyarazi.

Inkingi ibumbye mu isima ishinze, bayishyizeho insinga kugira ngo zijye zijyana umuriro hirya no hino, mu nganda, mu baturage n'abawukoresha bose, urumuri ni rwiza ku bantu bose.

Ihuriro ry'iminara itandukanye hasa neza hari ikirere cyiza, Inyuma hari abakozi bahakora. Biradufasha kumenya inzira imiriro iturukamo kubera yuko hari ihuriro bagenzura impanuka.

Amapoto abiri y'amashanyarazi arashinze, hagati hari agasanduku habanza, hejuru hari akandi gasanduku aho amasinga y'amashanyarazi ahurira, iyo agize ikibazo bihutira kureba hano aya masinga ahurira, bakamenya inzira y'umuriro yagize ikibazo, bagatabara byihuse.

Inzu nini nziza cyane, ibereye aho iteretse, igereretse gatatu, ibirahuri byiza, imbere hari ipoto y'umuriro, hari n'igipangu kiriho igiti, haruguru y'umuhanda hari icyapa kiyobora abagenzi, ni byiza cyane bibereye aho biri.

Inzu nyinshi ziri mu gipangu kimwe, hari ikigega cy'amazi cy'umukara, polutaye iriho ibara ry'ikigina n'umuhondo, amapoto y'amasinga atanga umuriro muri ayo mazu; izengurutse n'ibiti by'imihati niheza habereye uhatuye.

Umuhanda w’igitaka ushinzeho amapoto ariho insinga nyinshi z’umuriro zicanira abaturage bari munsi ahongaho. Hari amazu asakaje amatebura, amakoma imbere hari abantu, haru hari bantu bari kugenda indabyo ziteye iruhande rw’umuhanda. N’ibyatsi ni ahantu h’igiturage, ni heza kuhatuye.

Ihuriro ry'iminara myinshi bashobora kugenzurira aho insinga zijyana umuriro hirya no hino iyo zigize ikibazo, hari inzira igi ikibazo babona ukotabara bagatanga ubutabazi bwihuse nta kibazo cy'impanuka kibaye.

Umuhanda munini cyane harimo abamotari abambuka n'amaguru hirya yawo, hari abantu benshi birundiye hamwe, hakurya hari umusozi muremure uteyeho ibiti byinturusi uragaragara neza ni mwiza hateye neza.

Umuhanda, moto ebyiri zihagaze, iruhande hari abantu, amazu y'ubucuruzi, imodoka ziparitse imbere, umutaka wa Emutiyeni, abagenda, abahagaze, hari ibikorwa binyuranye biri kuhakorerwa, inyuma hari inyubako igeretse itari yuzura, hakurya hari indi yuzuye imeze neza, igaragara neza, ni byiza cyane.

Umuntu w'umugabo ari kugenda akoresheje amaguru, ni byiza kuko ari ubugororangingo, bituma imitsi irambuka, bigatuma umubiri wose ukora neza, amaraso atembera mu mubiri.

Abagore babiri bicaye, bicaye ku ntebe imbere yabo ku meza bari gukoresha mashine bari kwitegereza iyo ukoresha igikoresho cy'ikoranabuhanga ukora vuba ugakora byinshi mugihe gitoya .

Inzu y'ivuriro ihahagaze abantu benshi batandukanye, abicaye, abafite impapuro ntoki, hirya yaho hari umugabo uri kureba terefone, ni byiza cyane ko ari ivuriro ri ri rifasha kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza.

Ni inzu yubatse neza irakomeye guhera hasi kugera hejuru, yubakishije amatafari ahiye hari kuvayo abagabo bambaye amakoti, amapantaro, hirya yabo hari abantu bahagaze, hino haparitse imodoka y'imbangukiragutabara.

Aya mazu yubakishije amatafari ahiye, ni amashuri y'abanyeshuri, arakotiriye, hariho imikwege irinda ibibi byakwinjira kwangiza abana, aturanye n'umuhanda w'igitaka.

Imvura yaguye mu muhanda, imodoka nyinshi ziri mu muhanda ziri kugenda, izindi ziparitse ku ruhande hari itukura, umugabo uhagaze iruhande ari kureba kuri terefone ari kwitegereza, hari imikindo miremire cyane ni heza nubwo harimo amazi hakonje ariko hasa neza, hari amazu afite ibisenge byiza by'icyatsi kibisi n'ibindi byiza ni heza cyane.

Mu cyumba cy'inzu nziza, hateye neza, hasize irangi, hicayemo umukobwa ufite ibisuko, yicaye ku ntebe, muganga arahagaze, ashyize icyumvirizo mu matwi, ari kumukoraho ngo yumve aho arwaye.

Amazu menshi yubatse mu buryo butandukanye kandi bwiza, imbere yabo imbangukiragutabara nyinshi, ni iziza ni imodoka zihuta cyane aho haba ikibazo hose barazihamagara, haba kure cyangwa hafi ziba ziteguye kujyayo.

Inzu nini cyane yubakishije amatafari ahiye, isize irangi ry'umuhondo, hari umurongo muremure w'abantu bambaye imyenda y'umuhondo, abacungagereza bari iruhande rwabo bari kugenda, barabashoreye.

Umugabo ukuze w'umusaza yambaye ingofero yambaye umwenda w'abacamanza w'umutuku, ishati y'umweru imbere ari kwitegereza imbere ye hari mikoro ari kureba atega n'amatwi.

Umugore ukuze wambaye rineti ni mwiza yambaye amaherena asa ni'gitambaro, ari kureba neza yakuze neza, ashaje neza ni mwiza biragaragara ko yagize ubuzima bwiza, ntakindi cyose wamubonaho ntaniyindi nenge wamubo.

Abantu batatu bicaye imbere yabo hari ameza n'ibitabo bari kwandika, bambaye ikirango cy'ibendera ry'u Rwanda, imbere yabo hari umuntu uhagaze, biragaragara ko bari guca imanza muri gacaca.

Icyapa cyerekana inkiko gacaca uko zikora imbere y'ababuranyi n'ababuranisha kirangwa n'ibara ry'icyatsi kibisi nibeza bari bambaye neza bari batuje bateze amatwi imanza ziri gucibwa imbere yabo .

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo ibisate bibiri uri gucamo imodoka, ndetse na moto ihetse umugenzi, itandukanyijwe n'ibyatsi, ndetse n'ibiti, no ku mpande zawo hari ibiti.

Icyapa cyanditseho amagambo asobanurira abantu uburyo bagomba kwitwara mu gihe bafite ikibazo, ko ntawe ugomba kugukemura ikibazo kuko wamuhaye amafaranga, ahubwo ugomba kugana ubutabera kuko ntabwo basaba ikiguzi kugira ngo bagukemure ikibazo.

Abantu bicaye bambaye udupfukamunwa, bambaye imyenda y'ubururu, imbere yabo hari ameza bafite za mashine bari kwitegerezamo, bakareba ibyo bari gukora, iruhande rwabo hari amakaramu, hari n'impapuro bari kwandikaho, bateye neza, bambaye neza, bari kureba neza.

Inzu nziza cyane barangije gukorera amasuku yuzuye. Imbere hahagaze abagabo babiri, umwe arafunze undi ntabwo afunze, aramusezeraho amwihanganisha, amwihanganisha mu kibazo yari arimo ngo nakomere, ibihe biri imbere azabinesha.

Umugabo wambaye ikote ritukura harimo ishati y'ubururu ariyogoshesheje yareba neza aseka afite ibyishimo kumutima we.

Umugabo usa neza uhagaze neza yambaye imyenda y'umutuku igaragaza ko ari umucamanza, ariko arasa neza arareba neza afite isura nziza, no mumaso arakeye biragaragara ko kumutima we wishimye cyane, kubera uko agaragara.

Abantu benshi batandukanye, baratuje, bari kureba imbere, bateze amatwi, bari kumva inama, bari kureba neza, bambaye neza, imbere yabo hateretse amazi yo kunywa, ibitabo n'amakaramu, n'amatelefoni.

Abantu benshi bicaye ku ntebe, bambaye udupfukamunwa, imyenda y'amaroze, bicaye neza, baratuje, bategereje icyo babwirwa aha hantu babahamagaye, kuko barareba neza, baritonze.

Imodoka nyinshi zikeye imwe ntoya itwara abagenzi ihagazeho umuntu w'umukarani wikorera imizigo imbere ye hari umugabo wambaye neza aya mataratara ari kureba neza araseka karuvati n'ishati y'umweru akurikiwe n'abagororwa bambaye imyenda y'iroza inyuma hari umupolisi ubashoreye.

Itsinda ry'abantu bane bambaye imyenda y'umukara namakaruvati y'umweru byerekana umurimo bakora ko ari abacamanza bahagaze neza bambaye amataratara abagore bari hepfo no haruguru abagabo bari hagati .

Inzu y'urukiko abacamanza babiri bicaye imbere yabo hari ameza, hari amazi yo kunywa, afite mikoro ari guca urubanza yambaye reneti bambaye imyenda itukura, bafite karuvati y'umweru, bari guca imanza zitabera, bavuga neza, barasesengura, ntawe barenganya, babikora neza kandi bakabikora kinyamwuga.

Abantu babiri bicaranye, umwe ni umucamanza, yambaye imyenda y'umukara, karuvati y'umweru, yambaye amataratara, undi ni umugororwa, yambaye imyenda y'iroze, barimo baravugana.

Inzu nziza yubatse neza, irakomeye, isize amarangi, imbere yaho hari abagororwa bari kugenda ku musitari, iruhande hari abacungagereza, haruguru yabo hari imodoka zibatwara, bari kugenda bihuta.

Abantu beza bambaye imyenda y'umukara iriho karuvati y'umweru bazamuye akaboko hejuru akandi gafashe ku ibendera ry'u Rwanda bamaze gufata inshingano bari kwemeza amahame n'amategeko n'amabwiriza bagiye gukora ko bazabikurikiza.

Abapolisi babiri bafashe umuntu w'umugabo bamwambitse amapingu arababaye yambaye rineti abandi bari inyuma ye babuze icyo bakora urabona ko batishimye abapolisi baramujyanye.

Abafungwa benshi bicaye ku ntebe bambaye impuzankano bari kubacira urubanza muri gacaca hari abantu benshi cyane baje kumva ibivugirwa aho ngaho ibiti birebire ahantu hateye abantu kuharebera no kuhacira imanza z'abakoze ibyaha byo muri jenoside n'ibindi byaha byinshi bitandukanye.

Abantu benshi bicaye mu cyumba gikorerwamo inama, baratuje, imbere yabo hari ameza, hari n'umuntu uhahagaze, barimo barumva, bateze amatwi, ntabwo basakuza, ni beza, basa neza, barishimye.

Imodoka ebyiri zo kuri gereza, zifite ikirango k'inyuguti kiziranga, zirafunguye rimwe abagororwa bamaze kuvamo, bambara udupfukamunwa bambaye imyenda y'roze bambaye n'amapingu.

Icyapa kiri kutwereka igororero rya Muhanga, hasi yacyo hari amarembo afunguye umuryango w'uruhande rumwe, iruhande bahubatse igikuta cy'amabuye gikomeye.

Abagabo n'abagore bakeye bafite isuku, bambaye neza, bareba neza, bahagaze neza, inyuma yabo hari ibara ry'ubururu risa neza harimo inyuguti z'umweru, bambaye amakaruvati meza.

Icyapa giteye ahantu ku muhanda, ku mutwe wacyo handitseho inkiko gacaca, amafoto y'abantu benshi bazamuye amaboko, abakecuru babiri bahagaze, imbere yabo hari abacamanza bari kubacira imanza, inyuma hari ishyamba rirerire ryiza riteye neza ry'ibiti bikuze by'intusi.

Imodoka ziparitse mu ruzitiro ahantu heza cyane, ibyuma bihazengurutse birakomeye. Nta muntu wakwinjiramo kujya kuzangiza, zirarinzwe n' ahantu ziri hari mutekano uhagije.

Imodoka nini y'ikamyo ifite amabara harimo n'ubururu, amapine menshi mashyashya, ipakiye ibintu byinshi, ni ndende, ni nshyashya, irakomeye, iraramba.

Icupa ryegetse ku gikuta k'inzu ry'umutuku, harimo amazi bifashisha iyo bari gukora ubutabazi bw'ibanze, bafashwe n'inkongi y'umuriro barahita bajya kuzimya bakoresheje iryo cupa.

Imodoka nini itwaye abapolisi, ifite ibara ry'umukara n'umweru itwikirije ihema hirya yayo hari umugabo uri kugenda.

Icupa ry'umutuku rirumo n'ubururu harimo inyuguti z'umweru ryometse ku gikuta cy'inzu habamo amazi akora ubutabazi bwihuse iyo habaye ikibazo cyo kuzana inkongi, amashanyarazi cyangwa se iterwa n'ikindi kintu cyose n'ibyiza n'ibyiza.

Abamotari benshi baparitse ahantu hamwe bategereje abagenzi imbere yaho hari umupolisi wambaye imyenda y'umukara akubiseho jiri iriho utugarurarumuri arikubavugisha na bo bamuteze amatwi.

Ivatiri ihagaze imbere handitseho ijambo polisi ku muryango ukinguye niryo ryanditseho umupolisi arahagaze ahagaze mu muryango wayo ni yo icunga umutekano n'imodoka ziri ku muhanda.

Ku kibuga bakoreraho ibizami hari moto, umupolisi ahagaze imbere y'umunyeshuri uri kuri moto azamuye akaboko amuhagarika amubwira yuko agomba guhagarara, yatsinzwe biragaragara ko yatsinzwe, iyi moto ye iri gucucmurara ibyotsi byinshi cyane kandi byangiza ikirere.

Abapolisi bari kugendera ku murongo umwe bambaye imyenda y’imikara, inkweto zimikara, ingofero, bambaye imbunda bagiye gucunga umutekano hirya hari abaturage bicaye mu mutaka ya MTN babacungira umutekano neza ntabwo bahungabanye nta mutekano uhungabana ni byiza kurirdwa nababyigiye.

Umumotari uri mu muhanda, hirya hari umugenzi ugenda n'amaguru, hirya ye hari umuporisi, ni ab'ingenzi, kuko bubahiriza akazi kabo, bagacunga umutekano w'ibinyabiziga biri mu muhanda.

Umugabo wambaye isarubeti idoze mu myenda ya polisi afite mu gitambaro gitukura ari kukirambura, arikwereka abantu iyo habaye impanuka y'uko gaze yatomboka uko bakora ubutabazi bw'ibanze bukabatabara.

Inzu nini igeretse, ifite inkingi zikomeye, isize amarangi meza, imbere yaho haparitse imodoka ihagaze iruhande rw'umupolisi, ari kuvugana n'umuyobozi wayo uyitwaye, barikuganira barishimye aramubaza ibyangombwa byayo akamusubiza.

Imbere mu nzu ku gikuta hegetseho icupa ry'umutuku ririmo amazi bifashisha gutanga ubutabazi, igihe habaye inkongi y'umuriro, yamaze gufata inzu.

Amacupa afunze ku gikuta cy'inzu aratukura harimo amazi bifashisha mu gihe bari gukora ubutabazi nk'aho inzu yahiye aho ariho hose hahiye bifashisha ayo mazi bazimya iyo nkongi y'umuriro.

Inzu nziza cyane igereretse rimwe ni nini ikorerwamo imirimo itandukanye. Imbere yaho haparitse imodoka ya polisi irimo yonyine, imbere hari imiryango ifunguye, hejuru ibirahure birafunguye.

Amacupa abiri bifashisha mu gihe bazimya inkongi y'umuriro habaye impanuka inzu igashya niyo bakoresha mu kwitabara icyago cyabateye .

Icupa ry'umutuku ririho igipapuro cy'umweru n'amasenga agifasheho bakifashisha iyo bari gutanga ubutabazi bw'ibanze ahantu hafashwe n'inkongi y'umuriro.

Amacupa menshi arimo umwuka ukoreshwa kwa muganga iyo abarwayi bagize ikibazo gituma badashobora guhumeka, bifashisha amacupa kugira ngo babatize umwuka ushobora guhumeka n'ibyiza, ni meza babikora neza ,ababikoze ni abahanga mu bushakashatsi.

Umukandida perezida Paul Kagame, ahagaze imbere y'imbaga y'abantu benshi arambuye akaboko ari kubasuhuza, nabo bazamuye amabendera bamwereka ko bamukunda kandi bamwishimiye.

Mu cyumba cy'iyi nzu hahagazemo umugabo n'umugore bahagaze bari bazamuye akaboko, bari kurahira ku madarapo y'u rwanda bemeza ko imirimo babashinzwe bazayikora neza, kuko ni byiza kumenya yuko ibyo bagushinze ugomba kubitunganya kandi ukazagera ku ntego yabyo.

Abagore n'abagabo basa neza, barahagaze bazamuye akaboko, akandi gafashe ku ibendera ry'u Rwanda, barimo baremera inshingano bazirahirira ko batazazireka.

Abantu benshi cyane batagira ingano bari kugenda, imbere hari abashinzwe umutekano, harimo umugore uri kugenda azamura akaboko, haruguru ye hari umugabo, wambaye ikote, ishati, ni beza, barakeye.

Umudamu mwiza wicaye mu ntebe yambaye amataratara afite umusatsi, yambaye ikote ari kureba hirya, imbere ye hari amazi hari mashine iruhande rwe, hari indangururamajwi.

Abantu babiri bicaye ku ntebe bari kwandika, umugabo ari kureba mu gitabo ari kwandika, yambaye neza, yambaye ipantaro y'ubururu, ishati, umugore yambaye ikanzu, inkweto, asokoje neza, yambaye n'amataratara, hepfo ye hari amazi yo kunywa n'isakoshi.

Umugabo mwiza ukeye nk'umunyamakuru, yambaye karuvati y'ubururu, ikote, rineti, asa neza, ariyogoshesheje, arareba neza, ni mwiza.

Umugabo wicaye ku ntebe, arasa neza, yirangi ry'umukara, yambaye neza karuvati y'umuhondo ishati yifashe neza, arareba, arishimye atumbiriye imbere ye aratuje.

Abagabo babiri beza banini barebare bambaye amataratara, bose bafite ibintu mu ntoki bari kwerekana, iruhande rwabo hari ibirango by'igihugu baturukamo.

Inzu nini yicayemo abantu benshi cyane uwo mugabo uhagaze imbere yambaye neza ikote yariyogoshesheje yambaye linete, ari gusoma ahagaze imbere y'abantu benshi ni muremure arabyibushye.

Ihema ry'ubatse baririmbishije n'amabara atandukanye hahagazemo umuntu ufite indangururamajwi abandi baricaye ararambuye akaboko ari kubasuhuza ari guseka arabishimiye .

Abagore babiri bicaye uw'imbere nuw'inyuma, aravuga akeye, yambaye amataratara, yarisukishije afite amaherena ku matwi, yambaye umupira w'ubururu, iruhande rwe hari amazi yo kunywa.

Umugore wicaye ku ntebe yambaye ibitenge byiza, yarabidodesheje biramukwira, amaherena inkweto nziza, ibikoma ku maboko, afite isakoshi, aranezerewe yicaye ahantu mu kanyayatsi.

Umugabo mwiza wambaye ingofero amarinete arareba neza ahagaze imbere ya mikoro nyinshi zitandukanye z'abanyamakuru, ari gusobanura amagambo bamubaza akayasobanura neza akareba neza.

Icyapa cyanditseho ngo twitabire amatora, kiri mu bikingi by'amarembo byinjiriraho ibiro by'itora biri, hari kujyayo abantu abandi bari kuvayo ni byiza, buri wese ari kujyayo mu matora akitorera uzamuyobora neza.

Mu gihe cyo kwiyamamaza umukandida wese aba agomba kugera aho abazamutora baherereye bakamubona, akagira n'icyo abizeza azabakorera mu gihe bazaba bamaze kumutora n'ibyo azabamarira mu gihe azaba yicaye ku ntebe y'ubuyobozi yasabye.

Ni bantu bari mu nama ya dusangire ijambo bambaye neza ntabwo ari abaturage ni abayobozi bicaye mu ntebe nziza buri wese imbere ye hari ameza ateyeho mikoro bivuga yuko buri wese agomba gufata ijambo muri iyi nama.

Abantu benshi b'abanyacyubahiro bambaye neza ni banini barareba barakanuye, umwe ashyize ikiganza, urutoki hejuru ari kubaza ikibazo kuko bari mu nama idasanzwe.

Abantu bicaye muri sare y'inama, imbere hari umugabo wicaye uri gufotora yambaye neza telefone ikora ibintu byiza kandi byinshi icyarimwe itumanaho ntabwo ritinda irafotora ikabika amafoto n'ibindi byinshi ni byiza rero gukoresha telefone mu iterambere.

Umugore wicaye mu ntebe y'icyubahiro imbere ye hari ameza ibitabo, hirya ye hari igitambaro kigizwe n'amabara atatu umutuku, umuhondo, umukara hagati harimo inyuguti ya ra y'umukara ari kureba hirya.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama batandukanye harimo umugabo wambaye neza. Wambaye agapfukamunwa, ikote ryiza, amazi imbere ye, igikombe cy'umweru, iruhande umumama uri kwitaba telefone.

Itsinda ry'abantu benshi b'urubyiruko barahagaze abandi babayoboye baricaye imbere yabo, harimo umusirikari umupolisi n'abandi, ni beza bafite impapuro z'impamyabushobozi bw'ibyo barangije kwiga barazifite mu ntoki.

Abantu bahagarariye ibihugu byabo mu nama, buri wese aricaye, asa neza, yambaye neza nk'umuyobozi, niyo mpamvu bari kwitegereza bagatega amatwi, hagati yabo hazamuwe n'amadarapo y'ibihugu baturutsemo.

Mu karere ka Muhanga habereyemo irushanwa ry'amagare riba buri mwaka rikabera mu gihugu cy'u Rwanda, babahagaritse ku mpande kugira ngo hataba impanuka ndetse n'abari mu irushanwa babashe gusiganwa nta nkomyi.

Abantu benshi bambaye imyenda y'umweru hariho ubururu bazamuye by'ubururu bari kwamamaza harimo n'iby' ibitukura bambaye ingofero z'umweru bari kuririmba barishimye.

Imodoka nini ya rukururana, imbere ni umweru, inyuma kontineri iriya ihetse ni umutuku, itwara ibintu byinshi icyarimwe, bigenda neza, biba bitwikiriye, bifite umutekano, ntibyakwangirika.

Abamotari babiri bahetse abagenzi bavuye, inyuma hari ibiti, iruhande hari igipangu cyonyine, igipangu cy'umweru, baragenda baganira, bihutisha urugendo, bakora neza, bagabanya igihe, ni byiza cyane.

Aho abagenzi bategereza imodoka haparitse imodoka nini zitwara abagenzi za sitera harimo abantu batandukanye bambaye imipira y'ubururu iriho umweru. Umukarani wikoreye wambaye itaburiya y'ubururu ,abayobora abagenzi imodoka bagiyeho n'agace zigiyemo ni byiza cyane kubera ko baba bari gufashanya ntawe ntawunenga undi.

Imodoka nini iri mu muhanda itwaye abagenzi irafunze, irasakaye, ifite intebe nziza iruhande hari umugabo uri kugenda ku igare niheza nibyiza no kugenda ku igare na byo bifite umumaro nabyo bituma umuntu yihuta.

Imodoka nini iri mu muhanda ni ndende, igice cy'imbere n'umutuku igice kinyuma gigenewe gutwara imizigo ni umweru. Itwara imizigo myinshi kandi ikayitwara mu mugihe gitoya ikayitwarira icyarimwe iruhande rw'imodoka hari abanyamaguru bari kugenda bihuta baba'abagabo babiri kuko ari mu buryo bwumuhanda bwabaho abanyamaguru banyura..

Imodoka nini iri mu muhanda, iratukura, yikoreye umucanga, bayikoresha mu bwubatsi, barayipakira ikipakurura, ntikenera abakozi benshi bayikoraho, ni nziza, iraramba, igendera ku mapine icumi.

Igihe cya nijoro abantu bari gutaha abanyamagare ,abagenzi bagendesha ibirenge . Amatara ari kubamurikira bari kugenda neza barareba neza hakurya hari umwijima utagaragara ariko bari kugenda bataha bajya iwabo .

Umuhanda w'igitaka ugendamo imodoka igaragara igice cy'inyuma, inyuma hari umugabo ugenda n'amaguru wambaye inkweto nziza, ipantaro nziza, ahetse igikapu, yambaye ishati nziza agaragara neza nyine ni mwiza cyane.

Imodoka itwaye imizigo imbere ni umweru n'icyatsi kibisi ku ruhande ni umweru n'icyatsi kibisi, haratwikiwe n'ihema rihambiriye neza kugirango bitanyanyagira mu muhanda, bikanduza umuhanda, hirya hari indi modoka iri kumanuka hirya hari ibiti birebire bisa neza bibereye umuhanda.

Imodoka nini cyane y'ikamyo iri mu muhanda yikorera imizigo myinshi mu bijyanye n'ubwubatsi, igendera ku mapine icumi, igenda mu muhanda uwo ariwo wose ikabishobora.

Imodoka y'ikamyo nini imbere n'icyatsi kibisi n'umuhondo, inyuma hari aho baheka imodoka yagize ikibazo iyagonze, iyahirimye, iyapfuye, barayifashisha kugirango ishobore kuyigeza mu igaraje, ni nziza cyane ikora ubutabazi bwihuse ku binyabiziga.

Imodoka iri mu muhanda nini ifite kontineri ifunze, ni umweru, iri kugenda muri kontineri batwaramo byinshi, imiti y'amatungo, ibiryo by'amatungo, inyuma hari moto nyinshi ziyikurikiye, ku muhanda hateye ibiti by'amatara, bimurikira ibinyabiziga igihe habaye mugihe cy'ijoro.

Imodoka nini cyane yagenewe gutwara abagenzi ifunze hose, ibara ni icyatsi kibisi, iry'ubururu iri kugenda mu muhanda, hino yayo hari moto yitwa livani itwara imizigo.

Imodoka ebyiri ziri mumuhanda, imwe irazamuka indi iramanuka, izamuka ifite contineri inyuma y'umweru, indi imanuka ifite amakarisori itwara imizigo, iruhande hari utwaye igare ripakiye imizigo myinshi cyane.

Imodoka y yiikamyo nziza ifite amabara y'ubururu n'umweru, ni ndende itwara imizigo neza iratwikira ntinyagirwa, ntigeraho ivumbi, itwara byinshi ikabitwara icyarimwe ikabigeza ku bantu babikeneye bigifite isura yabyo nziza cyane.

Igare rihagaze ku nkengero z'umuhanda rifite intebe ndende ikomeye, rihambiriyeho umugozi wo gutwarisha imizigo, naryo ritwara imizigo myinshi, iyo uricunze afite imbaraga yo kurisunika.

Umuhanda munini, uwo muntu utwaye igare ari kumanuka, moto ya rivani iri kuzamuka, haruguru hari umugabo uri kugenda, hakurya hari amazu manini afite amabati y'ubururu.

Abamotari babiri bari mumuhanda umwe arahagurutse aragiye undi arahagaze ategereje umugenzi bambaye imyenda iranga akazi bakora umuhondo nu'ubururu, bambaye ingofero z'urugendo kugirango birinde impanuka bahura nazo mu mukazi.

Imodoka igenewe gutwara abagenzi n’ umweru ni ndende ifite intebe nziza bicaraho bisanzuye igenda neza, yihutisha urugendo ninziza yinjiza amafaranga kuko abagenzi bose barayikunda.

Imodoka iri mu muhanda yikoreye imizigo, ifite igice k'imbere cy'umweru iratwikiye n'ihema, n'imigozi ikomeye, imbere hari umunyegare apakiye umuzigo nawe ariho ari kuriyobora.

Imodoka ndende iri mumuhanda yikamyo ikonteneri y'ubururu hirya hateye ibiti birebire hari umukobwa w'umugenzi uri kugenda m'umuhanda wa kaburimbo nibyiza yari ndende itwara ibintu byinshi cyane.

Imodoka nini igenewe gutwara abagenzi, ifunguye umuryango w'imbere, ni nziza iteye amarangi meza, umuhondo, icyatsi kibisi, inyuguti zandikishije umweru n'icyatsi kibisi, hariho intebe nziza, ni nini itwara abagenzi benshi kandi ikabatwa icyarimwe bakagenda bicaye bisanzuye.

Moto ihagaze i ruhande rw'umuhanda, hirya hari igare, intebe, imbere hari umu umugabo utwaye anverope mu ntoki, yambaye ishati y'amaboko maremare, ni muremure, imbere hari umutaka wa emutiyene batangiramo serivisi za emutiyene.

Imodoka iri mu muhanda, ifite amapine ane, ibara ry'umweru, ifite imyanya ibiri, hirya yayo hari abanyonzi bahekanye, inyuma hari umwanya wo gutwaramo imizigo, ni nziza irakomeye.

Moto ya lifani itwikiriye hejuru; itwara imizigo nk'iy'ibindi binyabiziga byose byagenewe kwikorera, ntihenda irahendutse kandi ibigezayo ku gihe, nta kibazo iyo wayihaye umuzigo bawugezayo amahoro ntacyo.

Imodoka nini nziza ndende ifite intebe nziza itwara abagenzi bakagenda neza ifite imyanya abafite ubumuga bicaramo hakurya yayo hari umuntu uri kugenda n'amaguru ari kwihuta cyane.

Umuhanda w'icyerekezo kimwe uri kugendamo umumotari ahantu hazamuka, irakomeye, irashoboye kuko ishobora kudufasha kuzamuka n'ahegutse.

Imodoka iri ku nkengero z'umuhanda yanditseho toyota n'inyuguti z'umutuku ibara n'umweru, ipakiye ikintu kimeze nk'ikibaho, imbere yayo hari abantu bari kwikorera imifuka, iruhande hari igare rihari nta muntu uriho.

Imodoka nini itwara abagenzi, ifite ibara ry'icyatsi kibisi, umweru , inyuguti z'umuhondo zivuga ngo KBC, hari ifite intebe nziza zibereye abazicaraho bafite n'aho ababana n'ubumuga bicara, igenda neza itwara abantu benshi.

Imodoka ikomeye y'ikamyo igizwe n'amabara y'ubururu, umuhondo, umutuku hariho n'ibara ry'umweru, irapakiye hariho ihema, ni nziza, irakomeye, ica mu mihanda ya kaburimbo n'iy'ibitaka, inyuma hari umumotari wambaye kasike y'urugendo kugirango yirinde impanuka.

Izi moto z'ubwikorezi bita rivani ni nziza, zimaze kuba nyinshi, zifite kontineri inyuma aho bashyira ibintu ntibinyagirwe, bikagerera ku gihe aho wifuza, nta mpungenge ugira, bikagerayo bitangiritse.

Imodoka itwara imizigo izwi ku izina rya dina ifite amakarisori ni umweru hino hari umuntu utwaye igare, hirya hari undi ahetse umugenzi, ni ryiza na ryo ridufasha kugera aho tugera vuba.

Mu muhanda hari moto ya rivani idufasha gutwara imizigo, igenda neza igakora byinshi, hino yaho hari igare rihetse umugenzi, ridufasha gutwara imizigo, rikadufasha no mu rugendo, ni ryiza kuko rikora byose.

Umuhanda munini ugizwe n'ibisate bitatu harimo abamotari, habamo imodoka z'amakamyo zikurura kontinri n'abanyamaguru ,abanyamagare ni byiza ko iyo bageze mu mahuriro y'imihanda bagomba gukurikiza amategeko agenga abayobozi b'ibinyabiziga .

Imodoka ndende cyane, iri mu muhanda, irapakiye, icy'imbere ni umweru ikunda kugenda mu muhanda munini, kubera ko igiye gukata ikatira ahantu hanini ikisanzura.

Igare riri mu muhanda ritwaye umugabo wambaye ikote ingofero ntabwo ntabwo ari iry'imitwaro ni ryiza rituma umuntu uriyoboye, ingingo zirambuka zikagenda neza.

Imodoka ya kwasiteri imanuka iri mu muhanda, hari kuzamuka moto ebyiri zitwaye imwe itwaye umugenzi indi ntawe itwaye, ku ruhande hari rigore imanura amazi avuye mu muhanda kugirango umuhanda utangirika imodoka zikanyerera zigakora impanuka ni byiza uyobora amazi avuye mu muhanda.

Abamotari babiri bari mu muhanda bahetse abagenzi ,irihuta ,irahendutse , ntago itinda mu nzira, iraramba ,iteza imbere umuryango.

Kamyo nini iri mumuhanda iratukura yikoreye umucanga ifasha abantu mu kubaka, gutwara amabuye geze , ibikoresho byinshi ku nyubako, icyarimwe iranezeza uko yihutisha ibikorwa bya bantu.

Imodoka y'ubururu ifite amakariseri maremare itwara imizigo iyo ari miremare itwara imizigo myinshi. Inyuma hari imodoka ifite imyanya ibiri y'imbere iyo zigenda zihana intera wubahiriza umwanya uri hagati y'ikinyabiziga n'ikindi birinda impanuka.

Imodoka ndende yumweru iri mu muhanda igenewe gutwara abagenzi batwara neza baricara neza bagenda neza batabyigana hirya hari ibiti birebire imbere hari umumotari uri mu muhanda ushaka abagenzi nibyiza rero iyo abantu bagenda bicaye neza bakagenda bafite umutekano barangiza urugendo amahoro.

Imodoka ndende mu burebure, ni umweru ihetse kontineri inyuma, ishobora gutwara ibintu byinshi kandi icyarimwe, niyo ituzanira ibicuruzwa bivuye hanze, ni nziza yinjiza amafaranga menshi.

Iyi modoka ni nini ifite irangi ry'umutuku, igaragara nk'ishaje, irikorera imizigo myinshi, igendera ku mapine icumi, nta muhanda uyinanira, ikora neza, barayipakira, ikipakurura, ni nziza cyane mu gukoresha ibikoresho by'ubwubatsi.

Imodoka nini yikamyo bita hoho isize ibara ritukura, iri kugenda mu muhanda, igeze hafi y'aho imirongo icagaguye y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira.

Ahantu heza n'urumuri rutangaje amashanyarazi ni meza kubera yuko atanga urumuri mu mucyo ukagaragara umwijima ugahunga, ahantu urumuri rutari hari hari umwijima utagaragara.

Ikibuga bakiniraho umupira w'intoki kigizwe n'ibara ritukura n'umweru, hirya hari icyuma kiriho agatebo bajugunyamo umupira igitego kibaye ni byiza kugira imikino ngororamubiri ituma umubiri ukora neza imitsi ikarambuka, amaraso agatembera mu mubiri neza.

Ikibuga bakiniraho umupira hari amazamu batsindiramo ibitego ni ubugororangingo bituma umubiri ukora neza imitsi ikarambuka amaraso agatembera neza umubiri ugakora neza abantu bagatekereza neza .

Ikibuga bakiniraho umupira w'intoki kigizwe n'amabara abiri cyatsi kibisi n'umutuku, imirongo iciyemo n'umweru gukina imikino itandukanye bitera kumererwa neza k'umubiri, bituma umuntu akura neza kandi akaramba.

Aha niho barebera imikino imyidagaduro, ibirori byabaye, inama zakoreshejwe z'abantu benshi, haratwikiriye hari intebe bubakiyeho, hasa neza hari umuyaga mwiza nta kibazo gihari kuba abantu bahakorera ibyo byose bashaka gukora.

Intebe ndende ikozwe mu mbaho isizwe irange ritukura, ifite amaguru y'icyuma, inyuma hari amabuye akomeye bakoresha mu nyubako zikomeye, ni meza arahendutse.

Intebe z'icyatsi cyibisi ni nziza ziteye neza, uzicaramo ntiyagira imbogamizi, ntiyarwara umugongo ziratekanye, ni nziza aho ziri zibereye amaso azireba.

Icyapa cya mpandeshatu gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru, ikirango kirimo n'umukara kerekana ko ibumoso bw'uwo muhanda hari igisate k'undi hakaba n'ikorosi.

Icyapa cya mpandeshatu cyereka abayobozi b'ibinyabiziga ko harimo igisate cy'umuhanda gishamikiyeho kirangwa n'ishusho y'umukara, umuzenguruko ni umutuku ubuso n'umweru ni byiza kumenya aho werekeraza n'inzitizi zihari.

Amahuriro y'umuhanda harimo imodoka zitandukanye hejuru hari amatara yaka umutuku, ubururu yerekana buri cyerekezo aho imodoka zigomba gutambukira.

Icyapa cyerekana ko aho hafi hari inzira y'abanyamaguru bambukiramo ifite umusenguruko wumutuku ubuso bw'umweru amabara arimo y’ umukara ni ibishushanyo byerekana abantu ko bagomba gukora aho bagomba kwambukira hafi aho.

Icyapa cya mande ishatu gifite umuzeguruko w'umutuku, ubuso ni umweru. Igishushanyo kirimo cy'umuntu n'umukara. Ari kugenda hagati y'udukoni tw'umweru ducagaguye.

Icyapa cy'umwashi gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso ni umuhondo, ikirango kirimo ni umukara ucagaguye uruziga, giteye ku muhanda kiyobora abagenzi uko hameze bayoboye ibinyabiziga.

Icyapa kibuza gifite umuzenguruko w’umutuku rwagati hari umurongo utukura igishushanyo kirimo cy'igare n'umukara kibuza abanyamagare gutambuka ni byiza gushyiraho ikimenyetso kibuza kuko iyo bagiye nta kimenyetso bashobora guhura n'ingorane.

Icyapa cy'uruziga gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru, inyuguti zanditsemo, ikirorometero mirongo itandatu mu isaha, ni umukara bereka abaninyabiziga bahageze bagomba kugendera ku muvuduko wa kirometero mirongo itandatu.

Icyapa kibuza gifite uruziga rw'umutuku agakoni gaca hagati y'inyuguti irimo y'umukara ubuso bw'umweru, ni byiza cyane kuko icyapa iyo bagishyize ahantu kiba kibuza umuntu ntagire imbogamizi hageze cyangwa se ingorane.

Icyapa kirekire cy'uruziga gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso ni umweru, hashushanyijemo ikamyo, hatambitsemo umurongo utukura uvuga yuko nta kamyo igomba kuhanyura, ni byiza gushyira ibimenyetso byerekana n'ibibuza mu muhanda kugira ngo abantu batazajya bagira impanuka batabimenye.

Icyapa cyereka abayobozi b'ibinyabiziga ko imbere hari inkomyi yababatera imbogamizi cyangwa ikabatera impanuka, umuzenguruko wacyo n'umutuku ubuso n'umweru ikirango kirimo n'umukara ni byiza kugaragaza uko aho imbere bajya uko hameze.

Icyapa giteye ku muhanda inyuma yacyo hari ishyamba ryiza, harimo ibyatsi byiza, ibiti byiza, wabigereranya n'ibyiza nyaburanga bituzanira amafaranga y'amahanga.

Icyapa cya mpandeshatu gifite umuzenguruko utukura, ubuso ni umweruru harimo igishushanyo cy'umukara kimanitse ku muhanda, kiyobora abatwaye ibinyabiziga kugira ngo bagereyo amahoro.

Icyapa giteye ku muhanda cy'uruziga gifite umuzenguruko utukura ,ubuso bw'umweru handitsemo umubare mirongo ine igizwe n'inyuguti z'umukara kereka abayobozi b'ibinyabiziga ko nibagera ahangaha baragendera ku muvuduko wa mirongo ine mu isaha .

Ikipa giteye kumuhanda cy'uruziga gifite umuzenguruko utukura ubuso n'umweru ngirango kirimo n'umukara handitsemo mirongo itandatu ubwo imodoka ihagaze agomba kugendera ku muvuduko wa mirongo itandatu mu isaha.

Icyapa ni umwashi, gifite umuzenguruko, ubuso ni umuhondo, ibishushanyo birimo ni umukara, barereka abayobozi b'ibinyabiziga ko aho hari inkomyi iburyo n'ibumoso.

Icyapa cy'umwashi kiri ku kumuhanda umuzenguruko ni umukara, ubuso ni umuhondo ikirango kirimo ni umukara, kirerekana ko iburyo bw'uwo muhanda bari gucamo hari ikona.

Icyapa kerekana ko aho hafi hari ishuri, ubuso bwacyo ni umweru, umuzenguruko ni umutuku ,ibishushanyo birimo ni umukara, ni byiza ko berekana aho hafi ko hari inshuri ry'abana.

Icyapa cy'uruziga gifite umuzenguruko utukura ubuso bw'umweru mirongo itandatu wanditswe mu ibara ry'umukara ririkurangira abayobozi b'inyabiziga ko iyo bageze ahaha bagomba kugendera ku birometero mirongo itandatu mu isaha.

Icyapa giteye ku muhanda, kigizwe n'ibara ry'icyatsi kibisi, cyereka abagenzi bahagaze aho akarere bajyamo kari, baherekanisha umwambi uriho ibara ry'umweru, rifite n'akagofero, bawerekeza aho icyo cyerekezo kiri.

Umuhanda, hirya yawo hari umugenzi uri kugenda n'amaguru, inyuma yaho hari icyapa kigizwe n'irangi ry'icyatsi kibisi, inyuguti zanditsemo n'umweru, kiratwereka yuko aho hafi tugiye kugera hari umurenge wa Giheke i Kamembe.

Icyapa cya mpande eshatu gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, umuntu uhagazemo arangwa n'ibara ry'umukara, afite igitiyo ari gukora cyereka abantu kko aho hafi bari kuhakorera igikorwa cy'akazi.

Icyapa cy'umwashi, gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso ni umuhondo, harimo igishushanyo cy'umukara, gifite icyo kivuga ku bo kireba, abo ni abo bakereka n'abo bakibwira.

Icyapa cya mpande eshatu gifite umuzenguruko w'umutuku, gifite ubu ubuso bw'umweru. Igishushanyo kiranga umukara ni cyiza kimenyesha abagenzi aho bajya n'ahari inkomyi.

Icyapa cyerekana cyereka abatwaye ibinyabiziga ko aho hantu hari umusozi uzamuka kigizwe na mpande eshatu umuzenguruko n'umutuku ubuso n'umweru ikirango ni umukara.

Umukobwa uhagaze ku muhanda yambaye umupira urimo amabara y'umuriro n'umutuku, amaboko maremare. Yasokoje neza, ari kureba muri terefone. Iruhande rwe hateretse igikapu cy'ubururu.

Icyapa kimanitse mu mahuriro y'umuhanda, igice kimwe kiraha uburenganzira umunyamaguru ngo yambuke, hejuru hari umubare makumyabiri, byose ibyo birango ni ubururu.

Amazu menshi ateye neza, amaremare amagufiya , hari ibiti byiza, haragaragara , hakeye, harasa neza, niheza barahakunda.

Legasi hoteri iherereye i Remera. Ni inzu yubatse neza, imbere yaho hari umuhanda, haruguru yaho hari amazu yubatse neza, imbere yayo hari imikindo ihateye ku muhanda, ni heza.

Imisozi ibiri iteganye uwambere uriho ibyatsi, ibiti hariho n'inzu yo guturamo ifite amabati atukura, hakurya hari ahateye amahema, imbere y'amahema hari ahubatse amazu menshi kandi meza.

Inzu nziza yo guturamo yubatse neza, ifite amadirishya meza, inzu nziza, bayizengurukije ibikoresho bigezweho, inyuma y'uruzitiro hari umuhanda w'igitaka, ni heza hateye neza, isa neza.

Inzu nziza cyane itangaje y'agahebuzo ifite ubwizabure burenze izindi nzu zose, irarimbishije, irakeye iho amarangi atandukanye, iriho igisenge cyiza cyane, iyi nzu irahebuje, kandi ira.

Inyubako yubatse neza nk'amacumbi y'abanyeshuri, isa neza irakeye, inyuma hateye ibiti kugira ngo umuyaga utazangiza iyi nyubako kuko isa neza, imeze neza, ihagaze neza, naho iteretse harasa neza harareshya nta mikingo irimo.

Inzu nziza yo guturamo igeretse kabiri. Ni nziza, ifite ubwiza burenze, ifite korotire nziza, hateye indabyo, amarangi meza. Iruhande hari igiti, inyuma hari imikindo bateye, ni heza, ifite imbuga nziza irahebuje.

Remera iracyeye. Hari ahantu heza cyane, amazu meza afite ibisenge byiza, izuba ryiza, umucyo mwiza, amazu y'amagorofa bari kubaka. Ni heza cyane haracyeye habereye abahabona bose, kuko ari ahantu hafite isuku nziza cyane hagaragaza umujyi neza.

Isoko rya Giporoso rigira abantu benshi batandukanye abagabo ,abagore bacururiza mu mitaka kugirango ngo birinde izuba, barinde n'ibyo bari gucuruza byo kwangirika bigata ubuziranenge.

Hilitopu hoteli isa neza iri ahantu heza hari imikindo myiza, hari abantu bahagaze imbere yayo hirya yaho hari amodoka y'abakiriya, mu muhanda hari abamotari bahetse abagenzi, bambaye neza ingofero z'ubwirinzi nibyiza kwambara ingofero y'ubwirinzi y'urugendo, iyo impanuka ije iragukingira.

Inzu yubatse ku buryo busanzwe, ifite amadirishya y'umweru, inzugi z'umweru, inkingi basize irangi ry'umuhondo, imbere yabo hari umuhanda w'icyerekezo kimwe, hariho ibyapa bya eyateri.

Amazu y'i kanombe yubatse munsi y'umuhanda, afite ibisenge byiza, amabati asize amarangi atandukanye kubireba nibyiza, hari ibiti bizana amahumbezi, hateye neza hasa neza.

Parike y'i Nyandungu imeze neza, harimo ibiti byiza, hari inyoni ziririmba neza, harimo inzira nziza, hari aho bicara hari umuyaga mwiza, hari uburuhukiro, iyi parike ni nziza iteye neza, iri ahantu heza.

Icyapa kiranga aho umuntu ageze, ni kiza cyandikishjeho inyuguti z'ubururu n'umukara. Hariho ibara ry'icyatsi kibisi, umuhondo n'ubururu, ni kiza kirasa neza giteye neza.

Inzu ndende itetekererwamo ibyo kurya haparitse amamoto abishyira ababishaka ku ma terefone ni byiza kuko buri wese iyo akoresheje itumanaho abona ibyo kurya ntiyicwe n'inzara.

Ni inzu nini cyane yubatse neza, ikorerwamo imirimo itandukanye. Imbere haparitse imodoka, mu muhanda uri imbere hari abamotari bari kugenda, ni heza, haratunganywa.

Ku kibuga cy'indege ni heza hateye neza, hepfo yaho hari ishyamba ryiza, imbere hirya hari ibitaro bya kanombe, hepfo hari amazu y'abaturage; niheza haratuje kuko hari uburinzi bukomeye cyane hakaba n'umutekano.

Iyi nzu ni nziza ni ndende bayiyikoreye amasuku neza, bayihakoreramo imirimo itandukanye, bayishyizeho urugo rwiza inyuma y'urugo bahateye ibiti byiza bigaragara neza, hari n'amatara ahamurikira ni heza, haratuje, kandi haratunganye.

Umuhanda utarimo ikinyabiziga na kimwe, hirya hari amazu meza yubatse neza ageretse akikijwe na senyenge, n'ibyuma bishinze bitukura, nimeza yubatse neza ateye neza arasa neza abereye igihugu yubatsemo.

Abamotari bahetse abagenzi bambaye kasike ingofero y'ubwirinzi ira aba ari nziza iyi ibungabunga umutwe mugihe habaye ingorane zo kugira impanuka ninziza ituma umugenzi adatogorwa cg se umuyobozi w'ikinyabiziga adatuje.

Inzu nini ni nziza igeretse kane hariho ibyapa biranga imirimo ikorerwamo niheza, ni hanini, imirimo itandukanye ibonekamo igatanga akazi ku buryo bushimishije.

Amazu menshi kandi meza manini yubatse haruguru y'umuhanda wigitaka, afite igisenge cyiza gitukura, hepfo y'umuhanda hari amazu matoya acucitse, hagati yaho hatandukanijwe haca umuhanda utandukanya hepfo no haruguru.

Inzu nini ni ndende, iratandukanye imiryango y'ubucuruzi n'imirimo ikorerwamo, amarangi umweru, umuhondo, imbere haparitse imodoka yivatiri isize umutuku, ni ahanini ikorerwamo ibitandukanye mugihe gito cyane.

Remera ifite amazu meza akeye, ageretse, afite ibisenge bikeye, hateye ibiti byiza, imikindo, abantu beza bari kugenda, ni heza cyane.

Inzu nziza cyane, yuzuye ifite ibara ry'umuhondo, ubururu n'icyatsi kibisi, iranoze, irasa neza, ni ndende, imeze neza, ibereye inyubako, aho iteretse harasa neza, ni nziza cyane.

Umuhanda munini cyane ugabuwemo n'imirongo icagaguye, harimo abamotari gusa, nta kindi kinyabiziga kirimo, nta modoka, nta mugenzi w'amaguru urimo, ni bo bibereyemo, bari kwishakira abagenzi.

Aha hantu ni n'injoro hari kugaragara urumuri rw'amatara ,imikindo miremire hakurya yaho hatagera urumuri hari umwijima ntabwo habona neza, amatara ni ingenzi kuko yirukana umwijima umucyo akaba ari we ugaragara.

Umuhanda munini cyane ufite ibisate bitatu; harimwo imirongo y'umweru icagaguye yerekana aho abanyamaguru bagomba kwambukira; iyo imodoka ihageze abanyamaguru bari kwambuka irabanza igahagarara ikabaha umwanya bakabanza bakambuka.

Umugabo uri kugenda mu nzira y'abanyamaguru ari kwitaba terefone, hirya ye hari umuhanda munini urimo imodoka igeze ku nzira y'abanyamaguru, imirongo icagaguye icanya amatara ni imodoka y'ubururu.

Umusore uhagaze mu muhanda ahagaritse umumotari, ahetse agakapu mu mugongo, ari kumvikana aho amugeza n'igiciro ari aribuha ari bumuhe, inyuma hari moto ya rivani, hepfo hari abantu bahagaze mu mutaka utukura, umuhanda ni mwiza cyane.

Amazi menshi akikijwe n'ishyamba, ku ruhande hari inzu isize irangi ry'ubururu, n'amatara ashinze ku biti ahamurikira, ni heza hakurya hagaragara nk'ahakeye.

Ibisate bibiri by'umuhanda bitandukanye hagati hateye indabyo hari kamera ya sofiya hirya hari jaride nziza iteyemo ibyatsi n'ibiti birebire.

Umuhanda muremure kandi mugari ku mpezajisho zawo hari ibiti byiza kuruhande rwo haruguru hari ibiti ku ruhande rwo hepfo birahari ni heza ni hanini haratunganye.

Umuhanda munini cyane harimwo abanyamaguru nta kinyabiziga kirimo, iruhande hateye ibiti birebire bigaragara neza ni byiza, amapoto y'amashanyarazi amurikira abagenzi n'abayobozi b'ibinyabiziga.

Imodoka nyinshi ziri mu muha mu mahuriro y'umuhanda zisa neza ziragenda neza zihana umwanya, ni nziza cyane haruguru hari ibiti n'amapoto y'umuriro.

Umuhanda munini ugizwe n'ibisate bibiri, harimo imodoka karimo amapikipiki ku nkengero hari abanyamaguru bari kugenda, ibiti birebire byiza, amapoto ariho amatara amurikira abagenzi n'abanyabiziga nibyiza umeze neza bahanye intera.

Amatara yo ku muhanda ari kwaka abonesha mu muhanda, akaboneshereza abambuka, abagenzi bagenda, abagendesha ibinyabiziga, abagendesha amaguru, imirongo icagaguye, abantu bari kwambukamo, imirongo y'abanyamaguru ntabwo bashobora kubagonga kubera ko bari mu nzira yabo.

Inkingi y'icyuma iteye ku muhanda, hariho itara riri kwaka, harimo umuntu ugizwe n'ibara ry'icyatsi kibisi uri kugenda werekana ko ako kanya hari abanyamaguru bagiye kugenda.

Umuhanda w'igisate kimwe harimwo abanyamaguru bari kuwugendamo harashe akazuba iruhande rwawo hateye ibiti byiza hepfo no haruguru ni heza habereye abahareba hateye neza .